Ingemwe za avoka ziterwa ahantu heza cyane, zikavomererwa, zigashyirwaho ifumbire, ubundi zigatanga umusaruro kandi zikerera mu gihe cya vuba.

Imboga ndetse n'ibindi byatsi, ni bimwe mu bishobora kumera ahantu hasaruwe imyaka nk'ibishyimbo, amashaza ndetse n'ibindi bitandukanye. Izi mboga zishobora kuribwa kuko nta kibazo zateza.

Abaturage, amavuriro, amashuri ndetse n'insengero zituye ahagana mu ishyamba ndetse no ku misozi ihanamye, baba basabwa guca amaterasi y'indinganire ndetse n'imirwanyasuri mu rwego rwo kwirinda ibiza n'ubuzima bwabo bakaburinda.

Aborozi bakora ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, ni bamwe mu bishimira umusaruro aya matungo abagezaho, bavuga ko uretse umukamo, inka zitanga n'ifumbire.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ihene ndetse n'intama, ni bumwe mu bworozi buteza imbere ba nyirabwo kuko butanga umusaruro, mu gihe gitoya kandi ukaba utubutse.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'inkoko ni bumwe mu bworozi bugomba gukurikiranwa, aya matungo bakayavura ndetse bakayashyira ahantu hashyushye kugira ngo abeho neza kandi akure vuba.

Ubworozi bw'amatungo ni kimwe mu bigomba kwitabwaho, cyane cyane igihe yagize uburwayi cyangwa se agiye nko kubyara, abaganga b'amatungo bashishikarizwa kujya baba hafi aborozi, mu rwego rwo kwirinda no kurinda amatungo yabo ibyorezo.

Inyamaswa zo mu ishyamba zigomba kwitabwaho mu buryo bukomeye cyane, abaturage bakirinda kuzitesha umutwe ndetse no kuziserereza kuko zimwe muri zo ari inkazi, zishobora kubambura n'ubuzima.